Mu kabati karimo utujerekani tw'ingano zitandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Buri kose kakaba karimo igicuruzwa runaka.

Mu nzu icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Iyo miti ikaba iri mu tubati ndetse hakaba hari umukobwa uhakora, wicaye aho imbere ye hari mudaso...

Mu cyumba gicururizwamo imiti ikomoka ku bihingwa, ikaba iteretse mu tubati aho imbere hari umuntu uyicuruza akaba yambaye umwenda w'umweru w'akazi.

Ku nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, hari ibyapa byinshi buri cyapa cyose kiranga aho igikorwa runaka giherereye.

Umurima mugari uhinzemo igihingwa cy'ikawa, ku ruhande rw'uwo murima hakaba hari ibiti byinshindetse no hagati hakaba hari ibindi.

Mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo nk'imyumbati, ibigori, ndetse n'utundi tumera duto duto, hakaba kandi harimo ibiti birebire.

Mu murima uhinzemo ibihingwa nk'ibishyimbo ndetse n'ibigori. Aho ibishyimbo ari bwo biri kuzamuka, naho ibigori byo bikaba byeze.

Ingemwe zirambitse mu isambu, aho ari nyinshi, zimwe muri zo zihagaze, ndetse izindi zikaba zaguye, iruhande rw'iyo sambu, hateye ibiti.

Umurima uteyemo urutoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Aho hagati y'urutoki rumwe ndetse n'urundi hagiye harimo intera.

Isambu iteretsemo ingemwe z'ibiti. Aho hari umuntu uteruye urugemwe rumwe, rukaba rufite amababi mato y'icyatsi.

Umuririma urimo ibihingwa bitandukanye harimo inyanya, ibihaza, ndetse n'ibindi, iruhande rw'uwo murima hakaba hateye ibiti.

Ikiganza gikoze ku gihingwa, icyo gihingwa kikaba gifite amababi maremare y’icyatsi, kandi gifite indabo zifite ibara ry’umweru.

Ahari abahinzi ba voka, bakaba bamwe bicaye abandi bunamye bose bari kureba mu bibuto bya voka ngo barebe ibyo bazifashisha mu guhinga.

Ahabera ubuhinzi bw'inyanya, hakaba hari inyanya zeze ndetse n'iziri hafi kwera kandi hakaba hari umugabo uzifasheho ushinzwe kuzitaho.

Mu kiraro cyororerwamo ingurube, ahari ingurube eshanu ziri kurya ndetse inyuma yazo, hari umufuka urimo ibiryo by'ingurube.

Mu murima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hakaba hari abasore babiri bari gukora ibikorwa byo guhinga ndetse iruhande rw'uwo murima hateye urutoki.

Umurima uhinzemo ibigori, hakaba hari umugore uri kubihingira neza kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro mwiza.

Mu murima hari guhingwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, ndetse n'abagore, ha kaba kandi hateye ibimera bitandukanye, nk'urubingo, urutoki ndetse n'ibindi.

Umurima utagize ikintu na kimwe kiwuteyemo ariko uhinze neza, iruhande rwawo hari indi mirima irimo ibihingwa bgiye bitandukanye.

Mu murima w'intoryi. Hakaba hari umugore wambaye ingofero ndetse uteruye ibase irimo intoryi. Bikaba bigaragara ko yaje gusarura.

Umukobwa uri kwita ku gihingwa k'inkeri, zikaba zihinze ahantu hanini ndetse bigaragara ko zitaweho bihagije.

Ahari kubera igikorwa cyo gutera igiti, kikaba kiri gukorwa n'abagabo bane, bafatanyije ndetse inyuma yabo, hakaba hari inzu zitandukanye ndetse n'ikigega.

Umuririma urimo igitoki ndetse n'imyumbati. Iruhande rwawo, hari ubwatsi aho ari umugore uri kwahira.

Ku kigo cy'amashuri ahateye ibihingwa bitandukanye, hakaba hari kandi abagabo bakora mu nzego zitandukanye, bari kubyitaho.

Umurima urimo ibihingwa bike, aho harimo abahinzi batatu b'abagore, bakaba bari kugenda bateramo ibindi bihingwa.

Imifuka myinshi ifite ibara ry'umweru, irunzemo ibigori byasaruwe ndetse byamaze gutunganywa, ikaba igiye iri ku murongo.

Igitebo kinini, cyuzuyemo inyanya, ahari umugore uri kugurisha ndetse n'umugabo uri kugura, aho umugore afite amafaranga mu ntoki.

Ahabikwa ibigori byasaruwe, aho babibika bifashishije ibiti bitambitse, bakagenda babimanikaho, hari umugore kandi uteruye ibigori bine.

Ahabikwa umusaruro w'ibigori hakaba hari abantu batandukanye bari kubitunganya kugira ngo bibashe kubikikwa neza.

Mu nzu ibitsemo imifuka myinshi ibikwamo ibyo kurya, iruhande rwayo hakaba hari abantu bahagaze harimo abagabo ndetse n'umugore.

Ahabikwa ibigori byeze, aho bibikwa hifashishijwe uduti dutambitse, ibigori bigashyirwaho kugira ngo bibifashe kubikwa neza.

Mu nzu ibikwamo imifuka irimo ibiribwa runaka. Akaba ari abagabo babiri bari gufatanya mu guterura iyo mifuka, bayishyira ku murongo.

Ku nzu ibikwamo umusaruro w'ibigori. Ikaba iteye amarangi y'umutuku. Ibigori bikaba bibikwa k'utwuma dutambitse.

Ahakusanyirizwa inyanya zasaruwe, aho ari inyanya nyinshi zigiye ziri mu bitebo, hari kandi abashinzwe kuzirebera ndetse no kuzikorera.

Umurima urimo ibihingwa by'amoko atandukanye, harimo igitoki ndetse n'ibiti n'ibindi bihingwa bito bigiye birimo.

Mu murima w'ibitoki, aho hagati y'ibitoki hagiye hateyemo ibigori ndetse kandi muri uwo murima hakaba harimo utwatsi duto duto.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi ndetse bifatanye. Harimo kandi utundi twatsi duto. Rikaba riri gucibwamo n'abakerarugendo baje kurisura.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye, hagati yabyo hagiye harimo ibiti birebire.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Harimo ibigufi, ndetse hagati yabyo bigiye harimo ibiti bitandukanye birebire.

Imboga z'inyanya ndetse n'imiteja, mu nyanya hakaba harimo, izipfuye ndetse n'nzima, aho hirya yazo hari imiteja.

Mu karima gato gateyemo imboga z'ubwoko butandukanye, hakaba kandi hagiye harimo utwatsi tw'ubwoko butandukanye duto duto tugiye turi hagati y'izo mboga.

Imboga z'imiteja ziri mu ibase ifite ibara ry'ubururu, uruhande rwayo hakaba ari umufuka uteretseho karoti.

Aharunze ibitunguru byinshi, bigaragara ko byasaruwe kandi iruhande rwabyo hakaba hateretse indobo ifite ibara ry'umutuku.

Ahakorerwa ubuhinzi bwa kijyambere bw'inyanya, aho harimo izeze n'izitarera zenda kwera, hagati y'aho ziteye hakaba hashinzemo uduti duto duto.

Akarima k'igikoni. Ahateye imboga z'ubwoko butandukanye. Hakaba hari abagore babiri, aho bari kwita kuri izo mboga, bazikorera neza.

Mu murima ahari umukobwa wunamye uri gutera imboga. Iruhande rw'uwo murima hakaba hahinze ibihingwa bitandukanye.

Mu murima w'intoryi ahari umugore ukenyeye igitenge wambaye n'umupira n'ingofero, akaba afite intoryi nyinshi mu ntoki, aho bigaragara ko ari gusarura.

Ahari ubwoko butandukanye bw'imboga, harimo nka karoti, puwavuro, inyanya ndetse n'imboga rwatsi.

Mu murima urimo ingemwe z'imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari abakozi b'ingeri zitandukanye bahakora, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Ku nzu yubakishije amatafari ahiye. Aho imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo zirimo amabara y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi.

Isambu iteretsemo ingemwe z'ibiti, aho hari abagabo batanu buri wese ateruye urugemwe, inyuma y'iyo sambu hari umurima uhinzemo ibigori.

Mu murima uhinzemo inyanya, hakaba hari umugabo ndetse n'abana babiri, aho bari kugenda basarura inyanya zimaze gukura.

Umurima utewemo inyanya; aho ari inyanya zitarera neza, zikaba ari ebyiri z'icyatsi zifashe ku igiti cyazo.

Mu murima ahateye igiti gifite amababi mato ndetse ku ruhande hakaba hari ibindi biti biharambitse.

Mu murima w'intoryi hahagaze abakobwa babiri, bose bakaba bateruye intoryi nkaho bari gusarura kandi bakaba bishimye.

Ahateretse imboga zitandukanye, harimo nk'amashu, karoti ndetse n'ibitunguru byinshi. Akaba kandi ari indobo iri mu ibara ry'umutuku.

Mu isoko ahacururizwa ibyo kurya harimo nk'ibihaza, ibijumba ndetse n'ibindi. Ku meza ni ho biteretse, iruhande rwayo hakaba hicaye abacuruzi.

Mu nzu ikorerwamo ubuhinzi bw'ibihumyo. Hakaba hari ibyeze ndetse n'ibiri hafi kwera. Hakaba harimo kandi, umudamu ushinzwe kubikurikirana.

Ahateretse imboga z'ubwoko butandukanye harimo nka karoti, ibitunguru ndetse n'intoryi, aho karoti ziri mu ibase iri mu ibara ry'ubururu.

Mu murima ahateye ibihingwa by'imboga. Akaba ari imboga zigifite amababi matoya, bigaragara ko zitamaze iminsi.

Ahari imboga zitandukanye zirimo: karoti, intoryi, ndetse n'inyanya. Bakaba bagiye babishyira mu matsinda, biri hejuru y'umufuka, aho bigaragara ko bari kuzicuruza.

Umugore uri kuhira imboga, akoresheje igikoresho cyabugenewe. Izi mboga zikaba ziteye ahantu hagiye hatandukanye.

Imirima ihinzemo imboga ndetse n'ibindi bihingwa by'ubwoko butandukanye, aho mu murima umwe hari umugabo uri kuhira ibyo bihingwa ndetse inyuma ye hahagaze abandi bagabo babiri.

Mu kibaya kirimo imirima itandukanye, harimo idahinze, ndetse n'iyindi myinshi igiye ihinzemo ibihingwa bitandukanye.

Umusozi uriho imirima myinshi ndetse n'amazu, imirima ikaba ihinze, ariko nta bihingwa biteyemo.

Ahatuwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, hakaba hari inzu zitandukanye ndetse hakaba hari imirima ihinzemo ibihingwa bitandukanye.

Mu murima ahateye ibimera, bitari byakura neza. Uruhande rumwe rwawo hakaba haretse amazi, aho ku rundi ruhande, ruteye ibiti.

Umusozi, ahari imirima myinshi itandukanye, aho imwe muri yo ihinzemo ibihingwa, indi ikaba nta kintu kirimo, kandi hari inzu zitandukanye.

Mu kibaya kirimo imirima iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hagati yayo hagiye harimo amazi, kandi ku ruhande rw'iyi mirima hateye ibiti.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo buri yose ikaba ifite ikigega ku ruhande, ndetse kandi zikaba zifite amabara amwe kandi zifite zose amabati y'umutuku.

Mu isambu ahari intama zitari nyinshi ziri kurisha, inyuma yazo hakaba hari abana batatu b'abahungu baragiye izo ntama.

Mu kiraro ahororerwa ingurube. Hakaba hari ingurube zitari nyinshi cyane, aho ziri kurya ndetse hasi hakaba hari ibyatsi.

Umugore uri guha ibyatsi ihene nkuru, ku ruhande hakaba hari uduhene tubiri, duto. Inyuma y'uwo mugore, hahagaze umwana w'umuhungu.

Hanze y'inzu ahari umugore, umugabo ndetse n'umwana, bakaba bari kugaburira ingurube, aho ibiryo by'ingurube biri mu ibase ifite ibara ry'umuhondo.

Mu kiraro cyororerwamo ingurube aharyamye ingurube nini ifite ibibwana byayo bikaba ari byinshi ndetse byose bikaba biri kuyonka.

Mu nzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko hakaba harimo inkoko nyinshi ndetse ku muryango w'iyi nzu ukaba hicaye umusore ukurikirana izi nkoko.

Mu isambu irimo ihene eshatu ziziritse. Aho hari ibiti ndetse hari ibyatsi bigiye binyanyagije aho ngaho hasi.

Ni isambu irimo ibyatsi bishishe, hakaba harimo inka ziri kurisha, aho zose zifite amabara y'umweru n'umukara.

Mu kiraro cyororerwamo amatungo harimo nk'inka ndetse n'ihene. Imbere hakaba hari umugabo n'umugore ndetse n'umwana bari kuzigaburira ibyatsi.

Ikiraro cyororerwamo ingurube, haba harimo ingurube nini iri kurya, aho hasi yaho ihagaze hari ibyatsi.

Mu kiraro ahari ihene iziritse ndetse ifite amabara y'umweru n'ikijuju. Hasi aho ihagaze hakaba hari ibyatsi.

Ku ruhande rw'inzu hahagaze umugore ndetse ufashe ku ihene, aho inyuma ye hari izindi hene ndetse ku ruhande rwe nanone hakaba hateye urutoki.

Mu kiraro cy'ingurube aharyamye ingurube nkuru, ifite ibara ry'umukara, ndetse n'irindi rijya gusa umweru. Ikaba iri konkwa n'ibyana byayo, aho iryamye.

Mu nzu yororerwamo inkwavu, hakaba harimo inkwavu zifite amabara yiganjemo umweru, umuhondo ndetse n'umukara.

Mu kibanza gisije hari umugabo ukuruye inka ku mugozi. Iyo nka akaba ari akanyana ndetse ifite amabara y'umukara n'umweru.

Mu murima mugari uhingwamo amashu, hakaba hari umusore uteruye ishu ndetse inyuma ye hari indobo ifite ibara ry'umutuku ndetse kandi inyuma y'uwo murima hakaba hateye urutoki.

Mu murima ahateye ibihingwa bitandukanye, harimo nk'ibishyimbo ndetse n'amateke, hakaba harimo kandi umugabo uri kugenda abishingirira.

Mu murima mugari uteyemo ibihingwa, wiganjemo cyane cyane ibigori. Hagati y'uwo murima, hakaba harimo ibiti.

Ku nzu ibikwamo ibigori byasaruwe, hakaba hamanitse ibigori byinshi, aho mu buryo bwo kubibika, babimanika ku biti bitambitse.

Mu isambu ahari ibyatsi bitoshye, hakaba hari umuganga w'amatungo uri gutera urushinge ihene n'undi uri kumufasha.

Mu kiraro cy'inka ariko cy'inzu, hakaba hari inka bigaragara ko isoje kubyara ndetse iruhande rwayo hakaba haryamye akanyana.

Ku isambu irimo utwatsi duto duto, hari inka ziri kurisha ndetse ku ruhande hakaba hari abashumba baziragiye, iruhande rw'iyo sambu kandi hateye ibiti.

Icyumba cyororerwamo inka ikaba iziritse ku giti, aho haje umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu uri kuyitera iherena aho ari gufashwa n'undi mugabo bari kumwe.

Mu biraro byororerwamo inka, ahari inka ndetse hakaba hari n'umuntu uzitaho. Hasi mu kiraro hakaba hari ibyatsi byifashishwa mu gusasira inka.

Ikiraro kigenderwaho iyo umuntu ari kwambuka, iruhande rwacyo kikaba gikikijwe n'ishyamba ry'ibiti byinshi bicucikanye.

Inyoni ifite amabara menshi, ikaba ihagaze ku gihingwa cy'igihwagari, aho kiba gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabo z'umuhondo.

Inyamaswa ndende zifite amajosi maremare, zikaba zigira amabara y'ikigina ndetse n'umweru. Inyuma y'aho zihagaze, hakaba hari ibiti by'amoko bitandukanye.

Mu isambu ifite utwatsi duto duto, akaba nta bihingwa byo kurya biteyemo, akaba hari gucamo imbwa iri kugenda.

Mu muhanda nyabagendwa w'igitaka, ku ruhande hakaba hari inkende, ndetse n'igipangu, aho imbere yacyo hari utwatsi.